Mu cyumba k'inama hari umugore n'umugabo bicaye ku meza manini hariho amacupa y'amazi, umugore arandika afite igitabo n'ikaramu mu ntoki ze urupapuro rurambitse ku ruhande.

Abagabo bambaye amakositimu n'abagore, ku meza harambitseho amaterefone, amacupa y'amazi, ibitambaro by'umweru. Aho bateraniye bakora inama.

umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'umupira w'ubururu, afite terefone mu ntoki indangururamajw, i inyuma ye hahagaze abandi bagabo benshi bambaye ingofero n'imipira byamabara atandukanye, kuruhande hari inyubako ikozwe mu ihema nibiti byinshi namashyamba.

Amezi manini arambuye iki igitambaro cy'umukara, amacupa y'amazi, amaterefone, amamashini ya kompiyuta, abagabo n'abagore bateraniye mu cyumba cy'inama, uhagaze ayoboye wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru mu imbere.

Abagabo n'abagore, abazungukazi n'abirabura bateraniye mu cyumba cy'inama ku meza hateretse amacupa y'amazi ibirahure birimo imitobe, amatasi arimo amakahwa.

Umugabo wirabura wambaye ikoti ry'umukara n'isaha ku kuboko, yicaranye n'abagore babiri b'inzobe, ku meza yabo harambuyeho igitambaro cy'umweru, hariho impapuro, amatelefone n'amacupa y'amazi.

Umusore wambaye kositime y'umukara irimo amabara y'umweru, ishati mo imbere yicaranye n'umukobwa wambaye ishati y'umutuku. Ku meza hari indangurura majwi, icupa ry'amazi, n'ibitabo, n'amakaye.

Abagabo batatu bicaye mu cyumba cy'inama, aharimo abagore babiri, uw'umwirabura n'umuzungukazi, ameza ateguyeho ibitambaro by'umweru, hateretseho za mudasobwa, amacupa y'amazi, udukayi n'amatelefone, intebe bicayeho zifite umwenda w'ubururu n'izifite uw'umutuku.

Abasore n'inkumi, abagabo n'abagore bateraniye mu busitani aho bicaye, imbere yabo hari amajerekani y'imihondo hari abafite manini n'abafite dutoya, inyubako y'amatafari ahiye ishakaje amabati y'ubururu, abagabo babiri bahagaze imbere yabo bari kubakoresha inama, ku ruhande hari ikigega cy'umukara.

Mucyumba cy'inama ahateraniye abayobozi batandukanye b'inzego zose harimo abaminisitiri, abagore, n'abagabo kumeza hateretse uducupa twamazi nuturimo imitobe.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda yiganjemo iy'ubururu n'umukara, intebe za parasitike z'umweru, aho bahagaze mu ihema bakoma amashyi, ameza arambuyeho igitambaro, za telephone n'impapuro birambitseho.

Mu cyumba k'inama abagabo n'abagore bicaye ku ntebe za parasitike z'umweru, ameza akozwe mu rubaho, hateretseho amacupa y'amazi ndetse n'amakayi, imbere yabo umugore wambaye ikanzu y'amabara ndetse n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara bayoboye iyo nama.

Agaseke, amacupa y'amazi ateretse ku meza, ahicaye abagabo n'abagore bateraniye mu cyumba cy'inama. Amakayi ari imbere yabo. Harimo abambaye amarineti mu maso.

Umugore wifubitse igitambaro cy'umukara mu mutwe afite indangururamajwi mu ntoki yambaye umwenda w'igitenge, kuruhande rwe abandi babiri bicaye bamwitegereza, hakuno hari abagabo babiri bicaye imbere y'ameza ariho igitambaro cy'umweru na mudasobwa ziteretse imbere yabo ni mucyumba k'inama.

Umugore wicaye wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, mu ntoki ze afite indangururamajwi, ikiganza ke k'iburyo kirambitse ku meza ahateretse imashini ya mudasobwa.

Mu kibuga kinini ahahagaze abantu bingeri zose abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa umuyobozi uyoboye uri hagati yabo barigukora inama afite indangururamajwi aho ari kubaha amabwiriza.

Amacupa y'amazi ateretse ku meza impapuro, abakarabu, ibitabo, mudasobwa, abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama ni mu nzu ikoreramo ikigo gishinzwe gutwara abantu n'ibintu rura.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo ameza maremare ariho amacupa y'amazi, amaterefone, amakayi, amakaramu, ni mu cyumba cy'inama.

Amacupa y'amazi ateretse ku meza, ibitabo, amakaramu, impapuro, abagaba n'abagore bicaye mu cyumba kinama, umusaza w'umuzungu ufashe ikiganza ke ku munwa.

Amacupa y'amazi ateretse ku meza, amakayi, amakaramu, abasore babiri barikwandika. Umwe yambaye umupira w'ubururu undi yambaye ikote ry'ikigina agakombe k'umukara gateretse kuri ayo meza.

Mu cyumba k'inama abagabo n'abagore bambaye imyenda myiza. Ku meza manini, intebe z'imikara, umugabo w'umuzungu wicaye impande yabo.

Umugabo wambaye ikotiumukara n'ipantaro ishati yumweru karuvati itukura, hagati umugore wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro yumukara kuruhande uwambaye ikoti ry'ikigina n'ipantaro afite indangururamajwi mu ntoki. Utumeza tubari impande duteretseho amazi mu ntoki zabo bafite amakayi mato n'amakaramu.

Mu cyumba cy'inama ahateraniye abagabo n'abagore, imbere yabo hari imashini za mudasobwa amacupa y'amazi, harimo umudamu wambaye amarineti mumaso ikoti ritukura, umugabo iruhande rwe wambaye ishati y'igitenge.

Mu cyumba cy'inama abagabo bicaye ku meza asize irange ry'umutuku. Indangururamajwi imbere yabo n'imashini za mudasobwa, icyumba gisize amarangi y'umukara cyubakishije amakaro, umugore uri inyuma ya bo w'izobe.

Mu cyumba cy'inama ahateraniye abagabo n'abagore bambaye imipira y'ubururu, ameza ariho ibitambaro by'umweru intebe z'imihondo, hateretse amacupa y'amazi, amatelefone na za mudasobwa.

Mu cyumba cy'inama abagabo bane bicaye ku meza maremare ateretseho mudasobwa, ibiganza byabo bifashe amakaramu mu ntoki n'amakaye barimo barandika.

Icyumba k'inama hateraniye abagabo n'abagore bicaye ku ntebe, n'ameza hariho za mudasobwa amacupa y'amazi imbere yabo hari insakazamashusho.

Ikiraro kinini gikomeye gifite umuhanda hejuru n'undi muhanda uca munsi yacyo, hejuru hari kunyuramo ikinyabiziga gitwara abagenzi, munsi y'ikiraro hari umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka, ipikipiki n'amagare.

Mu kirere higanjemo ibihu by'ubururu, iby'umweru bikeya. Iminara ibiri, umuremure n'umugufiya. Ibyuma bikoze iyo minara, by'uruziga ibirebire n'ibishamikiyeho.

Mudasobwa iteretse ku meza iri kwaka, imbere umukozi uri kuyikoresha, harimo amagambo yanditse ko bakora ibijyanye n'irembo, harimo irange ry'ubururu muri icyo kirahuri, muri iyo nyubako ahatangirwa serivise zitandukanye za leta.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, wambaye ishati y'umweru, imbere ye ahagaze umusore ufite telefone mu kiganza ari gusoma ubutumwa bugufi, inyuma hateye igiti kirekire n'indabo, hari n'inyubako isize amarangi y'umuhondo.

icyapa cy'ubururu cyamamariza ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu RWANDA intebe y'umukara iri kuri icyo cyapa amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo n'ayandikishije ibara ry'umweru

Umurima uhinzemo ibigori ku ruhande ibiti birebire, umunara w'itumanaho, inyubako z'amatafari ahiye ndende, ikigega kiri ku ruhande cy'umukara.

Icyapa kiriho ifoto y'agasimukadi, ikiganza gifashe terefone mu ntoki, urupapuro rw'ubururu rwandikishije inyuguti z'umweru, kuri murandasi aho wanyura usura ikigo cya rura.

Inyubako ariko igaragara ko iherereye i kigali mu Rwanda; iragaragara yuko iri kugurishwa aho bavuga ko umuntu afite miliyoni ijana na mirongo ine abasha kuyigura; iri i kanombe kigali, ni uburyo rero bumenyerewe bwo kugurisha aho abantu bagaragaza ibiciro by'ibicuruzwa.

Icyapa kiriho inyamaswa yo mu bwoko nw'ingagi, aho yicaye mu byatsi no mu biti, irarama ireba hejuru. Ni mu kigo gishinzwe ubukerarugendo.

Icyapa cy'ubururu cyandikishije inyuguti z'umweru, ijambo rivuga ngo irembo igikuta cyubakishije isima, inyubako ikinguye ikoreramo serivise.

Ku nyubako ikoreramo ubucuruzi ikinguye, ku muryango wayo hateretse agatajeri k'umweru karambitseho inkweto, icyapa kiri imbere y'inyubako aho batanga serivisi z'irembo amafoto n'ibya emutiyeni.

Ubusitani buteyemo indabo ku muhanda, hirya gato ubundi buzengurutse imbere y'inyubako nini ikoreramo ibijyanye n'amahoteri.

Icyapa cy'ubururu cyamamariza ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho gikangurira abasoreshwa gukora icyo gikorwa mbere y'itariki ya mirongo itatu ni imwe, kugirango batazahabwa ibihano.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Icyapa kiriho ifoto igaragaza inyubako ndende, imbere yayo hahagaze amamodoka, hariho ubusitani mu ihuriro ry'imihanda hakurya yayo n'ibiti.

Abamotari bahagaze imbere y'inyubako, umwe ari gushyirirwaho kuri moto imizigo, ari gufashwa n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu n'umugore umuri inyuma wambaye igitenge nabandi bagore babiri bari inyuma

Umunara w'itumanaho, uruzitiro rw' ibyuma, imashini ziwuzengurutse, amapoto maremare ariho insinga z'amashanyarazi, inyubako itaruzura neza.

Ku rupapuro rw'ubururu rwandikishijweho amagambo ari mu nyuguti z'umweru, n'iz'umuhondo. Hariho itangazo ry'ikigo k'imisoro n'amahoro. Aho gikangurira abasora kubikora mbere y'igihe batarakererwa.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho amagambo y'ibara ry'umweru. Abagabo bane b'abayobozi b'ibigo bitandukanye, ikirangantego, ikigo cy'itangazamakuru.

Impapuro zamamaza zometse ku meza mu nzu y'ubucuruzi, umugabo wicaye imbere ya mudasobwa, inzu yubakishije amakaro ku bikuta no hasi ahakorerwa serivisi z'irembo.

Ifoto iriho abagabo bicaye bafashe amatelefone muntoki bayahugiyeho, imbere ya bo ameza manini ateretseho za mudasobwa n'udukayi.

Icyapa kiriho itangazo ry' ikigo gishinzwe imisoro n' amahoro aho gikangurira abantu kwishyura mbere y' igihe kugira ngo batazahabwa ibihano.

Abagabo bahagaze ku ruhande rw'umuhanda, ahari umunara muremure w'itumanaho, akazu gatoya gasize irange ry'umuhondo, ibiti birebire biteye by'amashyamba.

Abasore babiri bicaye bafite terefone mu ntoki, abandi batatu bari hagati yabo, bose bambaye ama ekuteri mu matwi, bahugiye ku materefone.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'imborahamwe ifite utuzu dutatu, aho akazu ka mbere kandiditseho imibare y'uko amagambo ari hirya y'ako ari mu rurimi rw'icyongereza agenda akurikirana, ndetse akazu ka gatatu kariho imibare iri ku ijana ijanisha.

Amatsinga acomekeranyije ku giti cy'amashanyarazi, inyubako ngufiya, indende, indi igaragara itaruzura.

Ibiti bifite amashami atoshye n'ibifite ayumye, akapa gatoya k'icyatsi n'ubururu, ubusitani, amapoto n'amatsinga y'amashanyarazi, inyubako ifite amabati atukura n'ay'umweru.

Ipoto rirerire ririho itara rimurika mu muhanda, ahateye ibiti birebire imikindo igipangu gisize irangi risa nk'icunga indabo ziteye n'ubusitani.

Ibyuma birebire biteretseho imashini isaranganya umuriro w'amashanyarazi. Umurima uhinzemo ibiribwa by'imyumbati. Urugo ruzitiye inyubako y'amatafari ifite amabati atukura.

Abagabo bambaye amajire y'umuhondo, harimo n'ab'abazungu, abahetse ibikapu mu migongo bahagaze iruhande rw'ikibanza kinini kirimo imashini zitunganya umuriro w'amashanyarazi.

Icyapa cyometse ku ipoto y'amashanyarazi, mugabo uri gusunika igare rihambiriyeho amajerekani menshi, inyuma ye utambuka w'umunyamaguru wabaye ishati irimo ababara umumotari wambaye kasike haruguru igipangu cy'icyatsi kibisi gikinze mu nyubako urukuta ruriho icyapa cya mitsingi.

Umunara muremure w'itumanaho imashini ziwukikije uruzitira rw'ibyuma , inzu zubakishije amatafari ahiye, ubusitani budateyemo ubyatsi.

Imishini yo mu bwoko bwa taransifo ishinzwe gusaranganyisha amashanyarazi, inyubako z'amatafari ahiye zikinze inzugi n'amadirishya, inyuma ikibanza kirimo ibiti by'amoko atandukanye, insiga zitambuka z'amashanyarazi hejuru y'iyo nyubako.

Ipoto ndende ishinze imbere y'inyubako hejuru yayo hariho insinga nyinshi z'amashanyarazi, kuruhande icyapa cy'ubucuruzi imbere y'iyo nyubako.

Igikuta cy'inzu giteye karabasasu, insinga z'amashanyarazi, akabuwate kariho za fizibure, igisenge kidasize irangi.

Urusinga rw'amashanyarazi, imbaho zisize irangi ry'ubururu n'umweru, igikuta, insinga z'amashanyarazi ndende zitwara umuriro hejuru y'inyubako ibicu ku kirere by'umweru.

Inyubako ndende igeretse iyo hasi ikinguye abantu binjira mu muryango. Umukindo muremure uri inyuma y' imodoka ifite ibara ry' ivu, ku ruhande imodoka ebyiri zitukura zihagaze imbere y' igiti.

Ibendera ry'gihugu cy'u Rwanda riri mu busitani imbere y'inyubako ndende ahari umugore utambuka ajya kwinjira muri iyo nyubako, ku ruhande mu kibuga hahagaze amamodoka y'amabara atandukanye.

Inzu y' amatafari ahiye, urubaraza ruriho indobo itukura ishinzwe kubika imyanda, amashashi iruhande rwayo, ibyobo bipfundikije ibyuma, ubusitani buteyemo ibyatsi, hakurya izindi nyubako zifunze.

Umuhanda usize amaragi y'umukara n'umweru kumpande, hagati hari ubusitani bushinzemo ibyuma bibiri, i cyo hagati kiriho ipoto nicyapa cy'ubururu, inyubako ifite inzugi z'ubururu igeretse etaje, ibiti birebire kumpande.

Imashini zitandukanye, ziri mu nyubako, umugabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara, ibiganza bigiye biri gufungura imashini. Muri iyo nyubako hasi hubakishije amakaro y'umweru, ibikuta bisize irangi ry'umweru.

Abagabo abagore bicaye mubusitani ahateye ibiti bari gukora inama abicaye kuntebe z'imbaho ameza umugabo uhagaze hagati yabo afite ibyo abaganiriza.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara uhagaze yegamiye igiti. Mu kibuga ahicaye abagore n'abagabo, bamwe barambije hasi, abandi bicaye ku ntebe z'ibiti ndetse n'imbaho. Uhagaze ku ruhande afashe umutaka mu ntoki urambuye.

Abagabo bicaye imbere y'ameza manini akozwe mu rubaho, ibiganza byabo bifashe ibitabo mu ntoki harambitseho n'ikashe. Bambaye ibitambaro birimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ni inyangamugayo za gacaca.

Abagabo batatu bicaye ku meza ariho mudasobwa, indangururamajwi, impapuro bafite amakara mu ntoki, uri mo hagati yambaye imyenda y'iroza y'abagororwa.

Ifoto y'umugabo munini wicaye yambaye amataratara mu maso ku mutwe we afite umusatsi mwinshi, ku ntugu ze yambaye umwenda uriho agatambaro k'ubururu n'utunyenyeri bigaragara ko ari umusirikare.

Abagabo babiri bambaye amakanzu y'umukara y'abacamanza, hagati yabo undi wambaye iy'iroza y'abagororwa. Ibiganza byabo birambitse ku meza bafite impapuro.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Abagabo n'abagore bambaye imipira y'imyeru amashati y'ibitenge ameza y'urubaho ariho amakayi, abambaye amabendera bayafubitse mu gatuza ahingukanya mu mugongo bicaye mu busitani aho bari gukorera inama.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, karavati n'ishati y'umweru, amarinete mu maso, inyuma ye hari amamodoka menshi, abagororwa bambaye imyenda y'iroze n'abapolisi bambaye imyenda y'akazi n'ingofero zayo.

Mu cyumba kiburanishirizwamo umugabo wambaye imyenda ya roze y'abagororwa n'agapfukamarwa k'ubururu, impande ye umuburanira wambaye ikanzu y'umukara n'ishati y'umumweru n'agapfukamunwa k'umukara, abacamanza bari haruguru yabo.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali igurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo irindwi n'eshanu igaragara icyumba k'isuku n'umuryango imbere ufite ibirahuri.

Mu cyumba cy'inama, umugabo wicaye wambaye ikanzu y'umukara y'abacamanza muntoki ze afite igitabo na telefoni ngendanwa. Ku ruhande rwe hicaye umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ikanzu y'umutuku.

Urupapuro rwo mu gitabo cy'amategeko ingingo y'ururimi, aya mabwiriza agomba gutangira akanakurikizwa. Ni igitabo gikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Icupa ririho agakarita k'umuhondo rishinzwe kuzimya umuriro, riyometse ku gikuta gisize irangi ritukura ku nyubako.

Ku gikuta ahazingiye imashini ifite amatiyo afasha mu kuzimya inkongi y'umuriro, gisize amarangi y'umweru, hariho akapa k'umukara.

Inzu isize irange ryumuhondo ikoreramo ikigo cya police ishami rya gisozi abapolisi bahagaze kurubaraza rwiyo nzu ubusitani buhinze indabo nkeya ziteye kumuzenguruko wabwo.

Icupa ritukura ryometse ku gikuta rifite urutsinga rw'umukara, rishinzwe kuzimya umuriro mu gihe habaye inkongi.

Amacupa abiri yometse ku gikuta hariho n'amatiyo yayo azimya umuriro mu gihe habaye inkongi, inyubako yabakishishije amakaro hasi.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Umuhanda wa kaburimbo, umusore uri gutambuka mu nzira y'abanyamaguru, ufite utujerekani mu ntoki, utw'umweru ak'umuhondo, yambaye imyenda y'umukara, ku ruhande hahagaze imodoka ya polisi, igiti giteye imbere y'inyubako ndende.

Ku kigo cy'ishuri abanyeshuri b'abahungu n'ab'abakobwa imbere yabo umuyobozi w'ikigo abapolisi batatu babahagaze imbere, amacupa atatu y'umutuku azimya inkongi y'umuriro.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara, impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku. Imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano. Inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Abagabo babiri bicaye barambitse ibiganza ku meza bari kwandika bambaye amakote y' umukara ku meza hariho indangururamajwi, ibendera, amacupa y' amazi, ibitabo na mudasobwa.

Umugore uhagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, wambaye umwenda wiganjemo ubururu bwerurutse n'umweru, imbere ye afite indangururamajwi. Hateraniye abagore, abana bato, ingeri zose.

Icyapa kiriho ifoto y'umukandida wa efuperi wambaye ishati y'umweru na karuvati na marineti, umugore uhagaze imbere y'indangururamajwi ari kuvuga ijambo mu cyumba k'inama.

Mu cyumba k'inama mu nyubako ahicaye abantu b'ingeri zitandukanye b'abayobozi ku meza maremare imbere yabo hateretse amacupa y'amazi za mudasbwa. Abafite amakayi n'amakaramu n'impapuro.

Umugore w'inzobe wicaye ku ntebe y'umukara yambaye ikote ry'ubururu, afite imisatsi myinshi afite, imbereye ku meza hateretse icupa ry'amazi, afite impapuro mu ntoki. Ku ruhande rwe hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo n'abagore bicaye ku meza maremare arambuyeho igitambaro cy'umweru, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, uhagaze afite indangururamajwi, inyuma yabo ku gikuta hometse icyapa.

Ku meza arambitseho ibitabo ndetse n'amakayi, umugore wicaye wambaye umwenda w'umweru, ufite imisatsi myinshi, ibendera ry'icyatsi kibisi n'umuhondo n'umutuku, mu ntoki ze afite ikaramu.

Abagabo n'abagore biteze udutambaro, abasore, inkumi bahagaze imbere y'inyubako. Imbere yabo ufashe indangurura majwi azamuye ikiganza hejuru abaganiriza.

Abantu b'ingeri zose abasore, abakobwa, abagore n'abagabo, bateraniye mukibuga bafite amabendera, y'umutuku, umweru n'ubururu, bamamariza uyu mukandida w'ishyaka rya efu pe eri.

Abagore bateze ibitambaro bambaye imyenda y'ubururu niy'umweru, bafite amabendera ari kupapuro kw'ishyaka efuperi, bari kwamamaza umukandida.

Abamotari bahagaze imbere y'inyubako, umwe ari gushyirirwaho kuri moto imizigo, ari gufashwa n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu n'umugore umuri inyuma wambaye igitenge nabandi bagore babiri bari inyuma

Umuhanda wa kaburimbo imodoka ebyiri zihagaze iy'umweru n'iy'umukara icyapa, umusore wirabura wambaye ijire y'umukara, umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki wambaye isaha kukuboko n'ishati y'imironko inyuma ye hari icyapa ndetse n'intebe ya parasitike y'umweru.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara wambaye ikanzu n'amaherena ku matwi, imbere ye hari indangururamajwi nyinshi kuruhande hari ibendera.

Udusanduka twa parasitike tw'umweru mu cyumba cy'amatora. Abagabo babiri bambaye amakositimu, inyuma yabo umugore wegereye umwenda wicyatsi kibisi numuhondo ahabera amatora.

Ibiti birebire n'ibigufiya biteye ku ruhande rw'umuhanda ugeretse. Imodoka yo mu bwoko bwa yutunge nini ifite irange ry'ubururu n'umweru. Umusore ku ruhande ugenda asunika igare.

Imirongo y'umweru ishushanyije mu muhanda wa kaburimbo, moto, izitwaye abantu n'iziriho abagenzi. Imodoka zihagaze, ibiti byinshi birebire, amapoto n'amatara amurika ku muhanda.

Umusore wambaye ingofero mu mutwe n'umupira n'ikabutura ku ruhande hari imodoka ya fuso, ifite inyuma ahatwarwa ibintu cyangwa se kontineri y'ubururu abamotari bari inyuma bahetse abagenzi bambaye za kaseke z'umuhondo ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Numuhanda umugabo utwaye moto uwambaye ijire yumuhondo nakasike kuruhande rwe abanyamaguru babiri moto imbere ye bibisikana nimodoka ibiti kuruhande rwinyubako isize irange ritukura.

Hagati mumuhanda abagabo babiri batwaye za moto uwinyuma yambaye ikoti ritukura nijire na kasike mumutwe amatara kumuhanda ibiti indabo nubusitani.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa dubule kabine, ibisikana n'iyi dayihatsu ipakiye amayoga. Harimo amakese y'ubururu nay'umutuku. Ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti; urugo rukorotiriye.

Imodoka y'ibara ry'umukara itambuka mu muhanda, uruzitiro rugizwe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, umuferege unyuramo amazi wugarijwe cyangwa se ufunzwe

Umuhanda wa kaburimbo umugabo wambaye ijire y'icyatsi kibisi, ahagaze iruhande rw'imodoka icanye amatara, abagabo n'abagore bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru, amatara ari kwaka y'amashanyarazi, amapoto, ibiti, n'ibindi bintu bitandukanye,

Mu muhanda wa kaburimbo amagare abiri adafite uyatwaye. Umunyozi kuruhande imbere gato wegamiye igare yambaye imyenda ya kacye n'inkweto za parasitike.

Igare ririho umufuka munini urimo ibiribwa umusore uri kurisunika hagati m'umuhanda wa kaburimbo, hakurya y'umuhanda hari uruzitiro ipoto rirerire ry'amashyanyarazi ibiti n'indabo.

Imodoka nini itwara ibicuruzwa ibijyana mu bihugu byo hanze cyangwa se ibivanayo, inyuma ihambiriye kuri kotineri yayo n'ishitingi y'icyatsi kibisi. iri mu muhanda aho yerekeza.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa hoho, aho umushoferi yicaye hasize irange ry'umutuku, inyuma ipakiye umucanga ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti byinshi birebire n'uruzitiro.

Ingorofani ebyiri zifite amapine zikozwe mu byuma ziri iruhande rw'akazu gatoya, abagenzi cyangwa se abantu benshi bari ahategerwa imodoka hari amatara y'umutuku n'ayaka umuhondo.

Umuhanda munini w'akaburimbo, imodoka ebyiri zibisikana harimo inini ya kwasiteri ishinzwe gutwara abagenzi, hakurya inyubako ndende, intoya zikorerwamo ubucuruzi, amapoto y'amashanyarazi n'insinga n'imikindo n'ibiti.

Imodoka nini yo mu rwego rwa fuso ifungishijeho ihema ry' icyatsi kibisi, imbere umugore n' umugabo bahagaze, undi wegamiye imifuka y' umweru ifunzemo ibicuruzwa.

Aba motari ba biri bari kubisikana mu muhanda badahetse abagenzi. Ni cyapa kiri kuruhande gifite ibiara ry'umutuku niry'umweru gikozwe mu cyuma, ibiti birebire biteye mu busitani. Ipoto rirerire rifite itara ry'amashanyarazi.

Umusore wambaye umupira utukura n'ikabutura y'umukara afite agatebo bahahiramo ka purasitiki ari kugenda mu muhanda n'amaguru, imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu hagati mu muhanda, ku ruhande ibiti, amapoto.

Ibyapa binini biri kuruhande rw'umuhanda munini wa kaburimbo, ahasize amarange y'umukara n'umweru amapoto maremare yamatara yamashanyarazi amurika k'umuhanda.

Imodoka nini itukura iri mu muhanda ipakiye umucanga, ku ruhande abanyamagare babiri umwe ahetse umugenzi, imbere gato hari ufite inkoko mu ntoki n'agatebo karimo amagi.

Akamoto gasize irange ry'ubururu ko mu bwoko bwarifani kari mu muhanda, umunyegare uhetse agakapu k'umutuku, abamotari bashoreranye bahetse abagenzi, umugore uri kugenda n'amaguru wambaye umwenda w'igitenge, umuyoboro w'amazi iruhande rw'umuhanda.

Ikizu k'igaraje gifite igisenge gikozwe mu byuma ndetse ririho amatara atanga urumuri rw'umweru rugaragaramo imodoka ebyiri, imwe yateruwe n'indi iri hasi hafi y'ibyuma bishinze.

Imbere yanjye ndahabona dayihatso y'umweru iri kugenda muri kaburimbo. Ifite karisoro, ikaba ipfutse na shitingi y'ubururu. Hirya yaho hari jaride y'ibiti.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Imodoka nini ipakiye amabuye kuruhande iyindi yirabura ifunitse inyuma isize irangi ry'umukara, umumotari uri inyuma yayo zirabisikana kuruhande rw'umuhanda hari ibiti birebire.

Umuyoboro w'amazi ku ruhande inzira y'abanyamaguru. Umuhanda hagati aharimo imodoka nini itwara amazi cyangwa amazutu, ku ruhande ibiti birebire biteye impande y'umuhanda.

Mu masangano y'imihanda, umugore uri mu busitani ahari indabo n'imikindo, yunamye ari kubagara, moto iri mumuhanda imodoka z'umukara, abanyamaguru bari kwambukiranya.

Igare risa nk'aho rishaje ryegetse ku ruhande rw'umuhanda, hahambiriyeho imigozi n'umufuka. Imbere yaryo hari imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso ifite irangi ry'umweru, igaragaza igice cy'inyuma, ahari imibare yayo iyiranga.

Mukibuga cy'umupira w'amaguru umukinnyi wambaye ikabutura y'ubururu, iruhande rwe harambitse ibikapu bibiri, udukoresho bakoresha muri iki kibuga, icupa ry'amazi. Abantu benshi bari mo hagati batera umupira.

icyapa kirekire kicyatsi kibisi kigaragaza ibyerekezo by'umuhanda cyerekeza akanyaru ,huye, muhanga, ruhango na kinazi inyubako ubusitami ibiti imirima.

Ibyapa bibiri biri kucyuma bigerekeranyije bigaragara m'umuhanda uteyeho ibiti byinshi n'indabo zitandukanye ubusitani burimo ibyatsi.

Itara ryaka umutuku, icyatsi kibisi, imibare irimo makumyabiri na gatandatu, mirongo itatu, kiri ku cyuma kigaragaza ibyerekezo by'umuhanda. Ibiti biteye, inyubako n'ibindi byinshi.

Icyapa cy'umuhondo kiriho umurongo ushamikiranyije w'umukara mo hagati harimo umutuku, kizwi mu bitabo gikoreshwa ku biga amategeko y'umuhanda cyane cyane.

Ifoto iriho umuhanda aho abanyamaguru bambukira mu mirongo y'umweru, ibyapa bitandukanye ibiranga icyerekezo ndetse n'ibigaragaza ko hari birimo ibikorwa.

Icyapa kiri ku cyuma, kigaragaza amategeko y'umuhanda harimo ibara ry'umweru na iry'umutuku ibiti, amashyamba, ikirere cy'ubururu gifite ibihu.

Icyuma kirekire gishinze kiriho icyapa cy'umuhondo umurongo w'umukara ugaragza icyerekezo cy'umuhanda hasi hari ubusitani burimo ibyatsi bisa nkibyumye inyuma haragaragara ikirere k'ibihu by'ubururu n'umweru.

Ishyamba ririmo ibiti, hakurya umudugudu urimo amazu menshi, amato, manini, amagufi ndetse n'amaremare ageretse, umunara w'itumanaho, ubusitani bugiye buri hafi y'izo nzu.

Umurima w'ibigori, umudugudu urimo amazu menshi amatoya n'amanini, amaremare n'amagufiya ageretse ya ma etaje ni i Kibagabaga mu mujyi wa Kigali.

Ku muhanda w'igitaka urugi runini rw'umukara rufite nimero mirongo itanu n'ikenda urw'icyatsi kibisi inyubako nini ifite igisenge, indabo ngufiya ziteyeho imikindo hakurya umudugudu urimo abazu menshi.

Ubusitani burimo ibyatsi n'indabo, inyubako, ku rubaraza hari ibikindo, ibiti birebire n'ibigufi ngo ahari parike y'inyoni.

Inzu igeretse ,isize irange ry' icyatsi kibisi, isakaje amabati yo mubwoko bw'amategura, imiryango ifunguye harimo ukoreramo farumasi n'ukoreramo ubucuruzi bw' amata ,kuruhande agatajeri kageretseho amabase n' indobo.

Abasore n'abagabo bicaye imbere y'inyubako ikinguye, ku ruhande hari ibyuma inzu zikinguye zikoreramo ubucuruzi, inyuma yabo umuhanda.

Inzu ndende igeretse iriho icyapa kinini munsi hariho ikindi gitoya kigaragaza ko hari ivuriro, umukobwa uhagaze kurubaraza ahakorerwa ubucuruzi.

Igikuta cyubakishije isima hejuru yacyo hariho ibyuma bishamikiyeho amasinga, ibiti birebire imikindo biteye mu busitani bw'inyubako, igisenge gisakaje amabati atukura.

Inzu ndende ifite amarange y'ikigina n'ay'umukara ndetse n'ay'umweru, urugo rwubatswe n'ibyuma, ubusitani burimo ibiti n'indabo, imodoka itukura ihagaze imbere.

Hejuru yinyubako ikoreramo resitora n'akabari, hari icyapa cy'inzoga ya mitsingi, ku ruhande ibiti byinshi, inyuma hari inyubako ndende ngufiya.

uruzitiro ruriho amabati y'icyatsi kibisi, inyuma ikibanza kirimo ibyatsi. Inyubako zikoreramo ubucuruzi, izo guturamo, ibiti, amapoto y'amashanyarazi, ruguru umunara w'itumanaho.

Ku marembo afunguye, icyapa cy'ikigo kibakorera umutekano kuri iyo nyubako igeretse. Mu kibuga cyayo haparitse imodoka y'umweru.

Ibiti, ubusitaniri, inyubako zitandukanye indende n'igufiya, ibigega bibiri by'umukara, haruguru inyubako ya etage itaruzura neza.

Inzu zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi, umuryango ukinguye, aho batunganyiriza amata bakanayagurisha, iherereye i Rebera, ahitwa ku Cyamitsingi.

inzu ndende igerekeranyije, impande yayo hari indi ngufi, ibiti biteye, insinga z'amashanyarazi, ku ruhande hari ikoreramo ubucuruzi bw'ikigo cy'itumanaho cya Eyateri n'iminara hejuru.

Kuruhande rw'umuhanda ahari inyubako ebyiri ndende imwe ifite igipangu cy'ibyuma indi ifite icyamatafari amapoto maremare ariho insinga z'amashanyarazi ubusitani buteyemo ibiti nindabo kuruhande.

Urukuta rw'urugo ruzengurutse inyubako amatafari ahiye, ku rundi ruhande ahari ubusitani buteyemo indabo n'ibyatsi n'ibiti ku muhanda. Mu gipangu mo imbere inyubako ndende nziza ifite indabyo ku rubaraza rwayo.

Aka kazu ni aka sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho gakorerwamo bimwe mu bikorwa byayo ndetse bikaba bifasha abaturage kubibonera hafi, nko kuba bakwibikuriza amafaranga bakayabitsa ndetse bakayohereza.

Moto ziri mumuhanda zitwaye abagenzi amamodoka abiri manini yo mu bwoko bwa fuso moto izamuka iriho umumotari wambaye, ijiri y'icyatsi kibisi n'umuhondo na kasike mu mutwe, amatarari n'amapoto y'amashanyarazi kuruhande.

Umugabo uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru, wambaye itaburiya y'ikigina, ari kwitaba telefone. Ku ruhande hari imodoka icanye amatara y'umuhondo. Mu ihuriro ry'umuhanda hari imirongo yambukirwamo n'abanyamaguru. Ibiti n'indabo biteye ahongaho.

Mu isangano ry'imihanda, ahanyura amamodoka menshi, amamoto, itara rinini ririho umutuku n'icyatsi kibisi riranga icyerekezo cy'imodoka zigomba gutambuka.

Mu muhanda wa kaburimbo umumotari uhetse umugenzi, imbere ye ikamyo nini ifite irange ry'umutuku n'imodoka ntoya bibisikana, ku ruhande ibiti birebire biteyeho n'inzira y'abanyamaguru.

Ibiti birebire biri ku muhanda, urugo rwubakishishe amatafari rusize irangi ry'umweru, ibyapa, amapoto y'amashinyarazi, umumotari uhetse umugenzi hagati mu muhanda.

Imikindo, indabo, moto iri mu muhanda, amatara ari kwaka, icyapa cy'icyatsi kibisi kiri ku muhanda ugeretse, wubatse mu buryo bugezweho, ufite hasi no hejuru.

Umuhanda munini wa kaburimbo uteyeho ibiti n'indabo, usizemo irangi ry'umweru n'umukara ku mpande, moto icanye itara, igare rihagaze, imodoka z'umukara n'iz'umutuku n'umweru ziri kugenda, umugenzi uhagaritse moto.

Abasore batatu bari ahagenewe kwambukiranya abanyamaguru, moto zihetse abagenzi, imodoka ziri mu muhanda hagati. Ibiti biteye hakuno y'umuhanda ndetse n'ubusitani.

Moto zitwaye abagenzi mu muhanda, mu masangano y'imihanda, ubusitani buteyemo ibyatsi, aharimo icyapa n'isaha, amapoto maremare ariho amatara amuri mu muhanda, ibiti birebire, inyubake iri ruguru ikorerwamo amazi.

Moto ebyiri zitwara abagenzi, indi y'ubururu itwara ibicuruzwa, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire n'ibigufiya, amapoto y'amashanyarazi n'amatara ku mihanda.

Inzu yubatse hafi y'ishyamba ririmo ibiti byinshi amapoto marebamare ariho abatara amurika m'umuhanda urimo imodoka n'amamoto, k'uruhande indabo ubusitani.

Moto iri mu muhanda ku ruhande ibiti, ubusitani, ibyapa, amapoto maremare ariho amatara, ibyuma bigabanijemo umuhanda kabiri, ku ruhande umunyamaguru ugenda mu nzira, urukuta rurerure rw'amabuye ruri impande y'umuhanda.

Mu masangano y'imihanda, ahari amapoto maremare ariho amatara, za kamera, isaha, imodoka, ubusitani, za moto, ibiti, n'ibindi byinshi.

Umuhanda munini ushamikiyeho undi mutoya, ugabanyijemo ibice bibiri, amatara maremare ari ku byuma, ibiti biteye ku ruhande rwawo, inyubako ndende ya etaje.

Moto ebyiri ziri mu muhanda zihetse abagenzi. Iy'inyuma itwaye umugabo ufite igikarito mu ntoki. Iy'imbere ifite utwaye igikapu mu mugongo, ku ruhande hateye ubusitani n'imikindo.

Mu muhanda ahambukira abanyamaguru, imidoka ebyiri y'umweru ibisikana n'iy'umukara, hakurya amaduka akorerwamo ubucuruzi, umutaka w'umuhondo wa MTN, ibyapa hejuru y'izo nyubako, amapoto y'amashanyarazi.

Amapoto maremare y'ibyuma, ariho amatara y'amashanyarazi, ibiti byinshi biteye ku ruhande rw'umuhanda, mu ihuriro ryayo hari amamodoka menshi y'amoko atandukanye abisikana. Harimo itwara abagenzi n'izindi zitwara ibicuruzwa.

Ku ihuriro ry'imihanda umanuka harimo imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso, iri kumanuka, ibiti, ubusitani, indabo biteye ku muhanda, amapoto y'amatara y'amashanyarazi n'ibindi.

Mumasangano y'umuhanda munini aharimo imodoka nyinshi z'amoko atandukanye na za moto, itara rigaragaza abemerewe gutambuka ndetse na kamera ifotora abafite amakosa.

Iyi mirongo tubona mu muhanda niyigaragaze aho abanyamaguru bagomba kwambukira bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga kwirinda gukora impanuka, kandi bigafasha n'abantu kutanyura aho babonye hose.

Imirongo y'umweru mu muhanda aho abanyamaguru bambukiranya, itara ry'umutuku rigaragaza icyerekezo cy'imodoka zemerewe gutambuka. Ibiti biteye hafi y'umuhanda, kamera ifotora abafite amakosa.